Leta y'u rwanda yegereje ubuyobozi abaturage, aho ibintu byinshi bisigaye bibera mu isibo kandi isibo ikaba igizwe n'ingo nkeya ziri hafi rwose y'umuyobozi ku buryo kumugeraho bitazagorana.

Abantu benshi harimo n'abashinzwe umutekano b'urwego rwa polisi ndetse n'abandi batandukanye, bari gutega amatwi umuyobozi uri kubagezaho ibintu bitandukanye, bigomba gukorwa kugira ngo u Rwanda rutere imbere.

Inama zigiye zitandukanye, ziga ku bintu bitandukanye, aho usanga abadamu n'abagabo bose bicaye kandi bazindutse barajwe ishinga no kumenya ibyavugiwemo.

Abantu benshi b'ababyinnyi bambaye imyenda gakondo, bakaba bari kubyina n'imbyino za gakondo nyarwanda kandi bigaragara ko bari mu bukwe cyangwa mu bindi birori, basusurutsa ababyitabiriye mu buryo bujyanye n'imbyino.

Inkangara ndetse ni ibiseke n'ibikoresho bikoreshwa mu muco gakondo, tukaba tubonamo ibikoresho bifite amabara atandukanye bitewe n'ibyo nyiri ubwite yifuza ariko ibyiza cyane biba biboshye umukara n'umweru ndetse n'umutuku biba bitatse neza cyane.

Mu muco gakondo kwenga ni ikintu cyakundaga kubamo cyane aho bafataga ibitoki bakabishyira mu muvure ndetse bagakoresha n'igitanda cy'uwo muvure kugira ngo bakamure havemo umutobe uryoshye ndetse bavanemo n'ibikatsi.

Abagore bambaye imyenda y'umukara n'umweru ndetse n'utundi tuntu mu mutwe, bafite ingoma, bakaba bahagaze imbere y'igiti, inyuma yabo hirya hakaba hari umunara ndetse n'imodoka nini cyane.

Tapi y'icyatsi iri kubyiniraraho abagore bari kubyina imbyino gakondo bambaye imyitero y'umukara, bakaba bambaye n'indi myenda y'umweru bakaba bari kubyiniyina abantu bari mu etente y'umweru.

Imbyino gakondo n'imbyino zibyinwa n'abagabo n'abagore bagaragaza umuco runaka w'igihugu ariko bikaba ari na byiza kugira ngo umuco udacika bifashisha ingoma, imirishyo, amayugi ndetse n'imyenda yabugenewe.

Amashanyarazi ni igikorwa remezo usanga kifashishwa ahantu hatandukanye yaba mu miturire y'abantu aho batuye yaba ndetse no mu nganda ndetse no ku mihanda usanga amatara yose afasha abaturage kugira ngo bagende babona byose ari amashanyarazi.

Ikibuga kinini cy'umupira w'amaguru gifite amabara ari mu iderapo ry'u Rwanda ariyo ubururu, umuhondo n'icyatsi bigaragara ko cyashyiriweho kwakira imikino mpuzamahanga igiye itandukanye.

Abaforomo n'abaforomokazi bo mu kigo nderabuzima cya Mwendo kitwa Centre de Santé Mwendo, barimo kugaragaza ibyiza by'imirire myiza, haba kurya igi, bavuga ko igi ari ubuzima ndetse no kugira ejo heza bigendeye ku byo twariye.

Ikibuga kinini gisa icyatsi kizengurutswe n'amazu menshi, bigaragara ko ari aho abantu bugama izuba kandi hakaba hari n'amatara atuma ijoro ikibuga kigaragara neza umwijima ukagenda.

Abantu bane harimo umusilamu wambaye ingofero, harimo undi wambaye agapfukamunwa kandi uwo musilamu afite ibitabo mu ntoki, bari imbere y'inzu yanditseho ngo BOUCHERE MIMULI.

Inzu nyinshi z'umweru zisakajwe amabati, zikaba ziri guturukaho imodoka nini cyane itwara abagenzi, hagati y'izo nzu hari umunara, bigaragara ko ari uw'itumanaho.

Abaturage benshi bahuriye ahantu hamwe, bari kwiga ku bintu bitandukanye, aho bahuriye ku kigo cy'amashuri kuko ariho hari ikibuga kinini, cyo kuganiriramo n'abayobozi babo.

Ubutabera mu banyarwanda ni kimwe cyashyizwe imbere kugira ngo harwanywe akarengane gakorerwa bamwe ndetse kugira ngo birinde icyatuma abanyarwanda bacikamo ibice mu buryo butandukanye.

Umutekano mu Rwanda, ni bimwe mu byashyizwe imbere kugira ngo hirindwe amakimbirane ndetse n'inzangano hagati y'abaturage kandi binabafashwa kugira ngo abaturage bitorere abayobozi bababereye. Bazabafasha kubyitaho.

Umuyobozi mukuru uri gutanga ikiganiro ku bijyanye no kwibuka ari gushishikariza abanyarwanda ndetse n'abari muri iyo nama kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside aho iva ikagera.

Kwegereza ubuyobozi abaturage ni bimwe mu bifasha umuturage kugira ijambo kandi akamenya n'ibimukorerwa akaba umugenerwabikorwa ukwiye n'umuyobozi we bakamenyana ku buryo atazamwihakana mu gihe habaye ikibazo runaka.

Gerayo amahoro munyarwanda niyo ntego twihaye nk'abanyarwanda kandi tubifashijwemo n'ikigo cya polisi, turizera neza ko izakunda, abaturage twese tubishyizemo umuhate.

Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu mihanda, rirashishikariza abantu kwitwara neza mu gihe bari mu rugendo kugira ngo bagereyo amahoro mu gikorwa bise gerayo amahoro.

Bajya bavuga ngo umugore yimirijwe imbere, bishatse kuvuga ko umugore asigaye yisanga mu bikorwa bigiye bitandukanye n'ibyo kera atari yemerewe kujyamo, ubu ngubu akaba abyisangamo neza.

Umusifuzi ufite ikibaho cyanditseho umunani na kane, wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara, inyuma ye hari abantu babiri barimo kureba imibare yanditse kuri cya kibaho afite mu ntoki.

Abagabo babiri bari gukina mu bigaragara bari gukina umupira w'amaguru kuko hari ikibuga kirimo amazamu batsindamo kandi ayo mazamu ni manini ndetse aba bagabo bambaye imyenda y'ubururu bigaragara ko bari mu ikipe imwe.

Agahanda k'ibitaka kagenewe abanyamaguru, karimo ibyatsi katakorerwa umuganda birasaba ko abaturage bahaturiye aribo bazahakora isuku kugira ngo bafatanye na leta, leta ye kuhashora amafaranga kandi na bo bafite uruhare mu kwiteza imbere.